abaganga bari mu cyumba cy'isuzumiro bafata amaraso bakayashyira mu bipimo, ku buryo bareba ikibazo cy'umuntu yaba afite, bakamenya niba amaraso yabo ari mazima, cyangwa se yanduye. Abaganga ni abantu b' ingirakamaro cyane mu Rwanda.